Icyapa kinini cyane, kiri hejuru y'inzu cyamamaza inzoga ndetse n'akabari kitwa Bahamas, iki cyapa cyamamaza inzoga mu bwoko bwa Amstel.

Agakayi kagaragaza ibiciro, kariho inyandiko zitagaragara neza ariko ubona ko ari ibiciro by'ibinyobwa bitandukanye nk'aho twavuga ko harimo ibinyobwa bigura ibihumbi icumi, hariho n'ifoto yabyo ndetse ku rundi ruhande hariho amagambo manini yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Ibyansi bibiri biteretse ku kabati, iruhande rw'iburyo hari igishushanyo k'inka ifite amabara y'umweru n'umukara, iyo nzu isizemo ry'ubururu ndetse inafite igisenge gikoze mu giti.

Umukobwa wambaye furari utari kugaragara neza mu maso, ndetse iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ishati y'umukara ifite amaboko maremare, yanayazinze, aba bantu bari ahantu imbere mu nzu ubonako hasa nk'ahari urumuri rukeya, ndetse ku ruhande rw'ibumoso, hari igikoresho gifite ibara ry'umuhondo.

Ududobo tubiri dutandukanye duteretse ku meza kandi dufite ibara ribonerana, ubona ko imbere muri two harimo ibiribwa bikoze mu ifu y'ifarini. Hejuru y'utwo tudobo hariho icyuma bifashisha baterura cyangwa bakuramo ibintu muri utwo tudobo.

Aka etajeri gasize irangi ry'ubururu, karimo uduce tune dutandukanye, harimo ibinyobwa bitandukanye, nk'amazi, amata imitobe y'imbuto ndetse n'amafanta agiye atandukanye.

Umugore ubyibushye uri mu nzu ya kinyarwanda, bisa nk'aho ari ahantu bacururiza ibinyobwa bitandukanye. Imbere ye hari amata ari mu tujerekani dufite ingano zitandukanye. Harimo utunini, uturinganiye, ndetse n'udukombe dutoya cyane, turimo za yahurute.

Imurikagurisha riri kuberamo ibintu bitandukanye nko Kwamamaza serivise zitangwa n'ibigo by'itumanaho, hari abantu bambaye imyenda y'akazi iriho ibirango ba MTN ndetse hariho n'uruziga rw'amahirwe, umuntu ashobora gukaraga agatsindira igihembo runaka, akavugamo n'ingofero, imyenda n'ibindi bitandukanye. Ndetse hari n'insakazamajwi iteretse ku cyuma cyabugenewe ,inyuma y'aho hari abagabo ubonako bari kuganira.

Isoko rigari ririmo ibiti birebire ndetse rinasakaje amabati, ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, harimo n'abantu bari gukora imirimo itandukanye nk'ubwikorezi ndetse n'ubucuruzi bw'ibirungo bimwe na bimwe ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo afite terefone mu ntoki ubona ko ari kuganiriza umugabo wambaye umupira w'umukara ufite igare, ubona ko hari ibibazo bimwe na bimwe barimo baganiraho. Inyuma yabo hari icyapa kinini cya Emutiyeni cyanditseho interuro ivuga ngo ukurikize amabwiriza.

Inzu ikorerwamo serivisi z'itumanaho za airtel, ku muryango wayo ku ruhande rw'iburyo hariho ifoto y'umukobwa uri kumwenyura, ndetse hejuru ye handitse ho amagambo ya serivise batanga, ndetse ku rundi ruhande rw'ibumoso hari umusore wicaye mu kazu kabugenewe, ufite n'imashini akoresha atanga serivisi.

Abagabo batatu bari imbere y'akazu k'umu agenti kanditseho amagambo y'Igifaransa, ndetse gafite n'utuntu tw'utuyungirizo. Ubona ko mo imbere hicaye umugore utanga serivisi zitandukanye z'itumanaho nko gucuruza amayinite ndetse no kubikura amafaranga.

Uburyo bumenyerewe bukoreshwa mu Rwanda bwo kwishyura umuntu akoresheje momo peyi, aho hari imibare ukanda ukabasha koherereza umucuruzi amafaranga ahwanye n'ibyo waguze. ubu buryo buramenyerewe hirya no hino mugihugu kuko nibwo bugezweho cyane.

Umugabo utwara moto ikwirakwiza ibintu abantu baba baguze kuri murandasi hirya no hno mugihugu, ubona ko aparitse imbere y'igipangu ndetse ari kumwe n'umuntu twakwita umukiriya uba watumije ibyo bintu, ubona ko ari kubimushyikiriza.

Ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi harimo nko kuzana ibikoresho by'ikoranabuhanga, aha twavuga nka radio, moto ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo ndetse hakazamo n'amatelefone, inkweto zitandukanye wagura wibereye aho uri utahavuye.

Inzu nziza ifite umuryango mugari cyane ubona ko mu gice cy'imbere hari kwakwa amatara meza y'umuhondo, kuri iyo nzu hashushanyijeho igishushanyo kigaragaza umugore ndetse n'amagambo yanditse mu cyongereza ndetse yubatse no mu buryo bubereye amaso.

Uburyo bwo kugura ibicuruzwa ukoresheje Murandasi, aha ngaha twavuga nko kubona imbuto n'imboga by'umwimerere, harimo nk'amashu, imineke ndetse n'ibindi kuri Murandasi bakabikuzanira aho utuye hirya no hino.